Icyumba kigaragaramo ibikoresho byo mu bitaro.

Ibitaro bigaragaramo abarwayi bakeya.

Abantu batandukanye harimo n'abafite ubumuga.

Igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi i Nyagatare, bagenda mu muhanda wa kaburimbo hari abantu benshi inyuma hari imodoka.

Abantu ubona ko ari benshi bari mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana kenda mirongo ikenda na kane.

Ku matara ahantu hagaragara babyeyi, abagabo n'abasore ubona bishimye cyane.

Aho bacururiza imiti. ,

Abantu bambaye amataburiya bari kumwe n'undi mugabo wambaye umupira w'umutuku, ubona ko bari ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye, abona ko bishimye.

Imiti ya gakondo igaragara mu bwoko butandukanye ndetse harimo iri mu dusahani, iri hasi idafite icyo irimo, igaragara nk'ibiti.

Muganga hamwe n'umurwayi, muganga arigu gufata amaraso umurwayi kugirango abashe kubona indwara, abona ko amuha keya.

Icyumba kirimo bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'abantu, ubona ko ni ikintu cyabateranyirije hamwe baje gukora, harimo abantu bo mungeri zitandukanye.

Ibitaro bigaragara mu ibara ry'ubururu, hariho abantu basohokamo, umuzungu uvamo ari kumwe n'abamama babiri, umurandase n'undi mugore.